Ikigo gishinzwe kubunga bunga ubuzima ku rwego rw'Isi, kikaba ari rimwe mu mashami y'Umuryango w'Abibumbye, mu bijyanye n'ubuzima, kikaba gifite inshingano zo kubunga bunga ubuzima bwa buri muturage utuye Isi, ndetse akagira ubuzima buzira umuze we n'abe.

Umugabo usheshe akanguwe wishimye kandi unezerewe, uri ku ivomero rya kijyambere ryubatse kandi rinaforomye mu ishusho rya mpande enye ndetse anafite ijerekani y'umuhondo mu maboko ye, ayicayeho ndetse anayishyiraho amaboko ye yombi.

Umukobwa uhagaze imbere yban barenga umwe kandi bose bicaye. Bamuteze amatwi kandi bose bari kumureba. Inyuma ye gato hari tereviziyo ndetse izimije. Imbere gato nanone hari purojekiteri iri kwaka. Hejuru ye hari amatara atatu ari kwaka.

Umwana w'umukobwa, uri mu kigero cy'ubwangavu, wishimye kandi wizihiwe, mu maso ye yuje urukundo, anakoresheje intoki ze yubatse ishusho y'impande eshatu, zifite igisobanuro cy'urukundo mu kinyarwanda.

Umusaza usheshe akanguhe wicaye mu kagare k'abafite ubumuga bwo kutagenda. Umusatsi we usa umweru imvi. Yambaye n'amarinete amufasha kureba neza, ndetse ariguseka. Inyuma gato hari umwana w'umukobwa ufashe n'amaboko yombi igare ry'abafite ubumuga bwo kutagenda. Anafite akanyamuneza mu maso ye. Inyuma yabo gato hari inzu nini isa umweru.

Igishushanyo gishushanyishijwe ibara ry'umutuku n'ibara ry'ubururu. Ibara ry'umutuku rigiye riciyemo uduce duce twinshi ndetse n'ibara ry'ubururu rye riciyemo uduce duce twinshi, amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu aciyeho akarongo, amagambo yandikishijwe ibara ry'umutuku...

Inzu ivurirwamo abantu izwi nk'ibitaro. Harimo abarwayi benshi kandi ku bitanda bigiye bitandukanye. Buri cyose gitandukanywa n'ikindi hakoreshejwe irido. Umusore uri mu gikorwa cy'isuku n'umugangakazi uri mu gikorwa cyo kwita ku barwayi.

Umugangakazi wambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru n'icyatsi, afite agakoresho gato gasa ikigina, yagashyize ku nda y'umubyeyi utwite uryamye ku gitanda kwa muganga ndetse ategaho ugutwi yubitse umutwe we.

Umubyeyi uhetse umwana mu mugongo we , imbere gato ye hari amarembo maremare agizwe n'inkingi enye, hejuru hari amagambo yanditswe mu nyuguti nini kandi asa umutuku, avuga ati ''Kigina ubuzima center'' imbere harimo amazu menshi atandukanye asize ibara ry'umweru.

Inzu ikorerwamo serivisi zo kwegereza abaturage serivisi z'ubuzima bitagoranye kandi buri muturage wese akibonamo. Izo nzu zizwi nk'ibigonderabuzima aho buri muturage wese ashobora kwivuza kandi akivuza ku giciro kiri hasi.

Inzu yubatse neza mu buryo bwa kijyambere, amatara arenga atanu atanga urumuri rwinshi kandi yose, utumenyetso turimo utw'icyatsi n'utw'umutuku turanga ahantu ndetse n'ibihakorerwa n'ikirabo cy'icyatsi giteye mu ivaze isa ikijuju.

Ibitaro byitiriwe umwami Fayisari biherereye mu murenge wa Kacyiru, akarere ka Gasabo umujyi ni uwa Kigali, akaba aribyo bitaro bikuru mu mujyi wa Kigali byakira indwara zigiye zitandukanye, iz'umutima, iz'impyiko ndetse n'izindi nk'izo.

Inzu ifite inkingi eshatu n'amadirishya abiri zose zisize irangi ry'umweru, hirya gato hari indi nzu yubakishijwe amabati y'umutuku ndetse inafite amadirishya abiri n'urugi rw'ubururu, hasi hateye pasiparume ndetse n'indabo, hirya gato hari umuyoboro w'amazi ndetse n'igipangu gisa ubururu cyubakishijwe ibyuma.

Umugabo uri kunywa amazi kandi mu by'ukuri amazi ni ingenzi kandi ni ingirakamaro mu buzima bwacu kuko aturinda indwara zigiye zitandukanye kandi akanadufasha kongera ububobere mu mubiri wacu.

Umukobwa wunamye uri mu kigero cy'umwangavu, ufite imisatsi isa umukara, wakoresheje ukuboko kwe kw'iburyo arambuye akaboko ndetse n'ukuguru kwe kw'iburyo agukoresha ku kaboko yarambuye ndetse akandi kaboko ke kari inyuma mu mugongo.

Umwana w'umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, arambuye amaboko ye ayakoza ku maguru ye, kandi amaguru ye arambuye hasi, yicaye mu byatsi kandi anejejwe n'ibyo ari gukora.

Urubuto rwavoka, imwe yuzuye yose n'indi bigaragara ko isatu ye isa icyatsi kivanze n'umweru mo imbere mo hagati harimo ikibuto gisa ikigina, inyuma y'urubuto rwa avoka hari ikimera cyitwa igikakarubamba gisa icyatsi, imbere gato yavo hari isabune isa icyatsi cyerurutse ikozwe mu ishusho ya mpande enye, hasi gato hari ijambo risobanura iteka mu kinyarwanda...

Igihuru, cyiganjemo amoko y'ibyatsi atandukanye, gusa amenshi muri yo ahuriye ku ibara ry'icyatsi, ndetse haragaragaramo n'imirasire y'izuba iri ku byatsi birebire kurusha ibindi.

Agakarito gato gafunze neza gafite ibara ry'umuhondo n'icyatsi ndetse n'udushushanyo inyuma n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara mu nyuguti nto, ipaki ifunze neza irambitse hasi, hafunzwemo utuntu dutanu kuri buri ruhande dusa ikigina, aho duteretse hose hasa umweru.